Abaturage benshi bahuriye mucmba muri sale, bari mu nama urabona ko bishimye kubera ko bari kwishimira imigabo n'imigambi bagezeho rwose.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo abapolisi bambaye imyambaro y'impuzakano ya gipolisi, bigaragara ko ari abapolisi bakora mu ishami ryo mu muhanda, bicaye ahantu bigaragara ko bari mu nama.

Inama yahurije hamwe abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bakaba bari kwiga banaganira ku byateza imbere imiryango yabo n'Igihugu muri rusange.

Abantu harimo abagabo ndetse n'abagore, bahurijwe hamwe mu nama, bakaba bicaye munsi y'ihema, bakurikiye inama z'umuyobozi, bumva n'impanuro abagezaho.

Abantu bahuriye mu cyumba cy'inama, urabona ko hari umubyeyi wikenyeye barimo baramuha ishimwe kuko yakoze neza cyane akita ku bo ayoboye cyane.

Umugabo ndetse n'umugore b'abayobozi, bicaye ku ntebe imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi, bakaba bitabiriye inama bari kugiranamo n'abaturage kugira bamenye uko bakemura ibibazo ndetse bagera no ku iterambere rirambye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bicaye mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho hasi hashashemo tapi isa y'icyatsi.

Inama rusange yahuje abayobozi ndetse n'abaturage urabona ko bishimye cyane bari gukoma amashyi bari kwishimira ko babashije kwesa imihigo yabo ikaba bayigezeho.

Inama yahurije hamwe abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bakaba bari kuganira ku ngingo zafasha abo bayoboye, mu kwiteza imbere kandi no kubungabunga umutekano wabo.

Umumama ukeye ufite imisatsi inyereje yambaye amaherena ndetse yambaye n'amarineti, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu mu nama arimo abagira inama yuko bakiteza imbere.

Sare nini cyane yahuriwemo n'abantu batandukanye harimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore urabona ko bahanze amaso imbere bateze amatwi umuyobozi uri kubagezaho ijambo yabateguriye.

Abari bakeye cyane babona ko bakiri bato rwose, bambaye imikenyero rimwe iba rikigina ndetse bambaye n'ingori ku mitwe yabo, ibi ni bimwe mu biranga umuco nyarwanda.

Umukobwa wicaye apfukamye ku kirago akaba yasize umuheha mu kanwa arimo aranywa urabona ko ari kugaragaza umuco nyarwanda kuko afite igicuma kirimo n'umuheha.

Umugabo wahoze ari umutware mu mateka y'u Rwanda akaba yiyogoshesheje amasunzu ndetse yambaye n'inigi nka bimwe mu biranga umuco w'abanyarwanda ba kera.

Agaseke keza kari mu mabara y'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, aka gaseke kakaba gateretse ahantu hasa umweru, ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda.

Bimwe mu biranga umuco w'Abanyarwanda kuva na kera, harimo imisambi kuko ibafasha kuryamaho igihe bananiwe cyane cyane mu nce zo mu byaro ni ho bakunda kuyikoresha.

Bimwe mu byarangaga umuco nyarwanda ku bagabo harimo kwiyogoshesha ibisunzu, kuba ufite icumu ndetse no kuba wambara inigi, ibi ni bimwe mu byarangaga uwo muco w'abanyarwanda cyane cyane ku bagabo.

Umwamikazi Gicanda akaba yari umwami wo ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa akaba yambaye ibiranga umuco nyarwanda, ubona ko yari mwiza cyane rwose.

Barakwereka igiti gikoze umuheto ndetse n'ikindi gikozwe nk'isekuru, byose byifashishwaga kugaragaza umuco w'Abanyarwanda bo hambere.

Akenshi na kenshi umwari utazi kubyina bavuga ko batazi n'umuco w'Abanyarwanda kuko kubyina uteze amaboko ni bimwe mu biranga umuco w'Abanyarwanda kuva na kera.

Inzu ndangamurage y'amateka y'abami mu gihugu cy'u Rwanda, ni inzu iherereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Iyi nzu iyo ugezemo usangamo ibikorwa byinshi biranga umuco w'abanyarwanda.

Bimwe mu biranga umuco nyarwanda harimo guhamiriza, kubyina, kuvuza ingoma, aba na bo rero bari gukora bimwe muri ibyo, umugabo uri imbere rwose yaciye umugara kandi bose barishimye.

Igikoresho kiri muri bimwe biranga umuco nyarwanda, aka gacuma karimo umuheha bagakoreshaga banywa inzoga bagasabana bakishima abo hambere n'ubu karacyakoreshwa.

Umuvure ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda, wahozeho kuva kera na n'ubu ngubu uracyakoreshwa, abantu benga ibitoki, bagakoramo inzoga, bakanywa, bagasabana.

Kubyina uteze amaboko ni bimwe mu biranga umuco w'abanyarwanda aba nabo bakaba bari kubyina basusurutsa abantu bitabiriye iki gikorwa urabona ko babyishimiye cyane.

Ababyinnyi bashishikaye harimo ab'igitsina gabo ndetse n'abigitsina gore, bakaba bari kubyina imwe mu mbyino iranga Abanyarwanda yo gutega amaboko bagahamiriza.

Kubyina ni kimwe mu biranga umuco Nyarwanda cyane cyane iyo ubyina uteze amaboko bahita bamenya ko uturuka mu Rwanda. Aha naho hari umugabo uri guhamiriza ateze amaboko urabona ko bimubereye.

Umwogoshi wabigize umwuga akaba ari kogosha umusaza kugira ngo amusukure ku mutwe we, ibi ni bimwe mu bikorwa byabayeho kubera amashanyarazi.

Umukobwa mwiza cyane wambaye ijiri y'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage REG akaba yambaye na kasike imurinda kuba yahura n'impanuka mu gihe ari mu kazi.

Hari aho usanga ingomero z'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikoresho bibika umuriro w'amashanyarazi kugira ngo woherezwe mu baturage nta ngaruka na zimwe uri buteze.

Ipironi rirerire ritwara insinga z'amashanyarazi hirya no hino bigafasha abaturage kuba ahabona mu gihe cy'umwijima kandi bigatuma bakora serivisi zitandukanye neza.

Abanyeshuri bize umwuga wo gusana amashanyarazi, bakaba bari kureba ibikoresho byabo ko bimeze neza kugira ngo babone uko bashyira mu bikorwa ibyo bize kandi bungurane ibitekerezo.

Umukobwa wambaye impuzankano y'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG, akaba yambaye kasike imurinda kuba yakomerekera muri iki gikorwa akora.

Ububiko bw'amashanyarazi cyangwa aho amashanyarazi ahurizwa, bityo akabyazwamo ingufu z'umuriro ujya mu baturage kugira ngo ugende nta ngaruka uri bugire.

Igikoresho bakunze kwita kashi pawa akaba ari igikoresho dukoresha tugura umuriro ukadufasha kuba twamurikirwa ndetse twakora n'ibindi bikorwa bitandukanye bishingiye ku muriro w'amashanyarazi.

Ni insinga nyinshi ndetse n'amapironi, ashinzwe gukwirakwiza umuriro ku baturage mu bice byo hirya no hino. Ibi bikaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yegereje abaturage.

Ni mu muhanda mugari, leta yubakiye abaturage, hakaba harimo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bari kwitegereza ibikorwaremezo, urabona ko ari ibintu bishimishije cyane.

Ikiraro leta yubakiye abaturage kugira ngo bajye bambuka bagere hakurya bitabagoye, urabona ko abaturage babyishimiye rwose kuko bibafasha mu buhahirane.

Ni ku kigo nderabuzima cya Nyamikamba hakaba hanze yacyo hari abagabo bafashe ifoto, iki kigo nderabuzima gisize irange riri mu ibara ry'ubururu.

Ni ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, hakaba hari bariyeri ihari kubera ibibazo by'umutekano muke Wagiye ugaragara hagati y'ibi bihugu byombi.

Sitade nziza cyane urabona ko ikiri mu nzira yo kubakwa irimo tapi, aha akaba ari aho abakinnyi bajya bagakorerayo imyitozo ngororamubiri ndetse bakananura ingingo zabo.

Ni ku kigo cy'amashuri hari abayobozi bari gutambuka, bambaye udupfukamunwa harimo n'umusirikare, urabona ko ari igikorwa cyiza cyegerejwe abaturage.

Inyubako nziza cyane ifite urubaraza rwiza, ifite ubusitani buconze neza ifite na pisine cyangwa se ubwogero abaje bagana aha bakarabiramo bakishima.

Ibiro by'akagari, abaturage bakaba bari hanze, bategereje umuyobozi w'akagari kugira ngo aze abakemurire ibibazo byabo. Hanze y'akagari hari imbuga ngari, ibinyabiziga biparikamo.

Bimwe mu bikorwa remezo yagiye yegereza abaturage ntiyibagiwe n'imihanda, uyu muhanda ukaba ari umuhanda mugari, ukaba ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu.

Leta y'u Rwanda igenda ishishikariza buri Murenge na buri Kagari kubaka ibyapa nk'ibi ngibi biriho imigabo n'imigambi kugira ngo abaturage bajye babikurikiza.

Sitade ya Nyagatare abantu bakunda kujya gukoreraho imyitozo ngororamubiri, rimwe na rimwe kandi n'amakipe akomeye ajya ahakinira bigafasha abantu kwidagadura.

Ni ku igororero, aho abakoze ibyaha bajyanwa bakabasha kugororwa kugira ngo bavemo abandi bantu bashya kandi batazongera gukora ibyaha.

Tumwe mu turere hirya no hino mu gihugu, twagiye twubaka ibiro by'abakuru b'imidugudu, bagomba kwakiriramo abaturage baje babagana, si ibyo gusa kandi kuko bagiye bubaka n'utugari tugezweho.

Ibiro bikoreramo Matimba akaba ari urugo mbonezamikurire y'abana, aha ngaha iyo ugannyeyo baguha inama ku bijyanye nuko wakwita ku mwana wawe akagira ubuzima bwiza.

Igikorwa remezo Leta yubakiye abaturage kugira ngo yorohereze ubuhahirane, urabona ko ari ikiraro cyubatswe mu byuma kandi gikomeye cyane.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bavuye kureba ikigo nderabuzima kimaze kuzura kugira ngo barebe ko cyujuje icyangombwa bazagitahe kimeze neza.

Ibitaro byiza cyane biri kubakwa ahantu hatuje bisakaje amabati y'ubururu, hakurya yabyo hari ishyamba ndetse kandi hari n'imbuga ngari ibinyabiziga biparikamo.

Ni inyubako nziza cyane, inyubako yitaruye iri ahantu heza, ikaba yubatse mu buryo bwa etaje. Ifite imbuga ngari iparikwamo ibinyabiziga by'abaje bagana aha hantu.

Ikigo nderabuzima giherereye mu Karere ka Nyagatare, mu Murenge wa Nyagatare, kikaba gisize ibara ry'ubururu ndetse n'amabati akaba ari ubururu, abantu bakaba baganayo bagahabwa serivisi.

Abaturage bahuriye hamwe mu gikorwa ngarukakwezi cy'umuganda, urabona ko bahurije hamwe imbaraga kugira ngo basane ibyangiritse kandi bagirane inama.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gutanga ibihembo by'amagare ku bayobozi b'imidugudu, bakaba babahaye n'imipira y'ishimwe ry'uko bakora neza.

Abagabo batanu bane bambaye ingofero umwe niwe utayambaye, bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho Gikoba, akaba ari aho ahari amateka yo kwibohora.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'abaturage basanzwe bari kuganira ku ngingo ijyanye n'uko barinda umutekano bagaca n'akarengane gakorerwa bamwe n'abamwe.

Abantu batandukanye abagore ndetse n'abagabo bahuriye mu nama hari ingingo bari kwiga, urabona ko hari umugore uhagaze ari gutanga igitekerezo ke uko yumva iyo nsanganyamatsiko.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara akaba yambaye umupira uriho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda hejuru handitseho RDF akaba ari umusirikare afashe n'indangururamajwi mu ntoki ze ari gutanga imbwirwaruhame.

Inyubako nziza cyane, iri ahantu hitaruye, agahanda kaganayo kakaba kagizwe n'amapave, iruhande rw'iyi nyubako kandi hari ubusitani bwiza ndetse na pasiparumu zimeze neza.

Umunyarwanda yaragize ati:" nutema igiti kimwe nyabuna ujye wibuka gutera bibiri," uyu mugabo na we yaritaye mu gutwi, akaba afashe urugemwe rw'igiti, agiye gutera kugira ngo abungabunge amashyamba.

Abantu benshi batandukanye harimo ab'igitsina gabo, harimo n'abigitsina gore, umugore umwe akaba afashe indangururamajwi mu ntoki arimo aratanga igitekerezo cye.

Umupolisi uri guha ishimwe umuturage kubera ko yakoze neza cyane rwose, akarinda umutekano w'abo ayobora ndetse n'abandi muri rusange.

Umugore wambaye umukenyero yegeranye n'umugabo arimo arahabwa ishimwe ry'uko bitwaye neza mu mudugudu, uyu musirikare akaba ari kubaha impano yo kubashimira.

Abayobozi bo mu nzego zo hejuru harimo abapolisi, harimo abasirikare ndetse n'abaturage, bari mu gikorwa cyo kwibuka urabona ko bose bunamye bubitse umutwe.

Imbaga y'abantu benshi bicaye munsi y'ihema hakaba harimo abapolisi ndetse n'abasirikare, bahurijwe hamwe kugira ngo barebe uko bakita ku mutekano w'abaturage babo.

Abantu benshi bahuriye ahantu bakaba baje mu nama, bakaba bari kugezwaho ijambo n'umuyobozi kugira ngo barusheho kungukira muri byinshi ndetse bamenye nuko bakiteza imbere.

Abantu benshi bahuriye ahantu bakaba bahurije mu gikorwa kijyanye no kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

igikorwa remezo leta yubakiye abaturage akaba ari umuhanda ubona wa kaburimbo ukeye ukikijwe n'amazu y'abaturage ndetse n'ibimera na borodire n'utuyira tw'abanyamaguru.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru ikaba ari imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yitwa kwasiteri, ikaba ifasha abantu kugera mu bice bitandukanye no kubona serivise zihuse.

Hirya no hino mu mihanda mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu mijyi, uhasanga ibyapa biba biri ku muhanda bifite nimero ziranga nimero y'umuhanda uba ugezeho.

Imodoka rusange zitwara abantu ni kwasiteri bikaba bifasha abantu benshi gukora ingendo ziva hirya no hino kandi bikorohereza serivisi zabo kugenda neza.

Ni ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru bakunze kwita kwasiteri, kikaba gifasha abantu gukora ingendo zitandukanye bava mu gace kamwe bajya mu kandi bityo bikaborohereza gukora ibyo bo bakeneye.

Isoko rusange rihurirwamo n'abantu bakeneye ibiribwa cyangwa se imyambaro yo kwambara, urabona ko harimo urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande n'impande.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, iruhande rw'umuhanda hakaba hari abanyamaguru bari kugenda ndetse hakurya y'umuhanda hari n'amaduka.

Imihanda myinshi mu gihugu cy'u Rwanda, basanga ibyapa biba biburira abantu kugira ngo bataza gukora impanuka mu mihanda. Ikindi kandi iyo mihanda iba ikikijwe n'amapoto y'amatara amurikira abantu.

Inama yahuje abayobozi ndetse n'abaturage hakaba hariyo Abapolisi ndetse hari n'umugore uri imbere y'abaturage, arimo arababwira uburyo ki bagomba kwitwara kugira ngo bacunge ibyabo n'umutekano wabyo.

Inama rusange yahurije hamwe abayobozi bo mu nzego zikomeye ndetse n'abaturage, bakaba bari kwigira hamwe ibigo ki babungabunga umutekano bigakwira hose mu gihugu.

Abantu bahuriye mu gikorwa cy'umuganda, hakaba harimo abasirikare ndetse n'abapolisi n'abaturage basanzwe, urabona ko bishimiye igikorwa barimo, iruhande rwabo hari insina zitoshye zimeze neza.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo, harimo abagabo ndetse n'abagore, urabona ko imbere yabo hari umutoza uri kuberekera ko bagomba gukora siporo neza cyane.

Ibibuga by'umupira ni hamwe abantu bajya bakabasha gukora imyitozo ngororamubiri kandi bikabarinda n'indwara zituruka ku kuba badakora siporo ngororamubiri.

Nyuma yuko basobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, bari mu kibuga bari gukina umupira kugira ngo bagorore ingingo zabo kandi bibarinde n'indwara ziterwa no kudakora siporo.

Igishushanyo kiriho uko amakipe yagiye atsindana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kugeza ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, iya mbere ikaba ari Karangazi ikurikiwe n'andi.

Abakinnyi babigize umwuga bakaba bari muri sitade, bari gukora imyitozo kugirango ngo bizabafashe guhangana n'andi makipe, biteguye kandi bameze neza cyane.

Ni mu masaha ya ni mugoroba aho urubyiruko rurimo abakobwa ndetse n'abasore bahuriye, bakaba bari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara ziterwa no kudakora siporo.

Ikipe yatwaye igikombe ikaba iri kugishyikirizwa n'umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare bakaba bafi na sheke babasinyiye kugira ngo bajye kubikura amafaranga yabo batsindiye.

Siporo ni igikorwa cyiza gihuriza hamwe abantu benshi, aba na bo bicaye muri sitade bahanze amaso umukino uri kuba urabona ko babyishimiye cyane rwose uko bigaragara.

Abakinnyi babigize umwuga bambaye imyambaro y'ikipe yabo bakaba bari mu kibuga cyiza cyane, bari kwitegura kuzakina n'andi makipe bakaba batangiye imyitozo hakiri kare.

Igihe amakipe akina hakinirwa umusifuzi ugomba gusifura ndetse akajya agaragaza abinjira mu kibuga n'abasohokamo kuko bigabanya akavuyo mu kibuga kandi bikarinda n'umutekano.

Kwiruka nayo nimwe mu biranga siporo, aba nabo bakaba bari kuyikora kugira ngo bagorore ingingo zabo, yaba amaguru, amaboko ndetse n'urutirigongo bityo bagire ubuzima bwiza.

Urubyiruko rwinshi ruri gukora imyitozo ngororamubiri harimo ab'igitsina gabo ndetse n'abigitsina gore, urabona ko bishimiye igikorwa barimo kandi bizabarinda kurwaragurika.

Umukinnyi w'umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo akaba ari gutera baro urabona ko ari gukora siporo kugira ngo yitoze neza azabashe kuwukina igihe cya nyacyo kigeze.

Siporo ni kimwe mu bikorwa bituma abantu bidagadura kandi bagasabana kuko iyo habaye umukino abafana baritabira bityo bakidagadura.

Abana batoya bari muri siporo bakina agapira urabona ko ari igikorwa cyiza rwose bishimiye, hakurya hari abafana baje kureba uko bakina urabona ko na bo babyishimiye.

Umuhanda wubatswe n'amabuye umumotari uri kunyuramo hirya y'uwo muhanda hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu, ikindi hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo ikinyabiziga cya moto kiri guturuka epfo, uyu muhanda ukaba ukiri mushya urabona ko rwose ugaragara neza cyane.

Umuhanda mugari wa kaburimbo hakaba harimo umumotari uri gupakira imizigo kuri moto kugira ngo ayishyikirize uwayimutumye bityo amuhe amafaranga bavuganye.

Mu byaro ntahantu usanga hataragira ibikorwa remezo byinshi nko mu mujyi cyane cyane imihanda yaho nubwo ibihari n nta iba ikoze neza nk'iyo mu mujyi, usanga nta burodile ndetse nta n'ibindi bikorwa nk'amatara bihari.

Igikorwa leta yegereje abaturage, akaba ari umuhanda munini wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Ku mpande y'uyu muhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, kandi hari ibiti ndetse n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Aho imodoka zigira mu gukorera perime hakaba hari ibinyabiziga bibiri biri kure, uyu akaba ari umuhanda utarakorwa neza, gusa hirya ahakikije uyu muhanda hari ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti birebire, hari kugendamo imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri, urabona ko uyu muhanda kandi ukiri mushya kuko ugaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo ni kimwe mu byorohereza abantu benshi gukora ingendo ziva hamwe zigana ahandi bityo bikabafasha no mu buhahirane kuko biborohereza ingendo zabo.